Abagore babiri bari gutunganya imiteja mu ruganda, imiteja y'icyatsi myiza isa neza cyane, abagore babiri birinze bambaye udupfukamunwa two mu mutwe n'utwo mu maso.

Ikiraro k'iterambere, aho inka ziri kurisha, binyuze aho bateganyije inka zirira, bakoresheje kino kiraro k'iterambere.

Intoke enke zigaragara ko ari z'ikiganza zifashe imbuto mu ntoki bigaragara ko ari mu byo ubutaka bwiza bw'umukara.